Igihugu cyacu ni cyiza cyane ,aho usanga cyakajije umutekano, ugasanga ahantu hose huzuye abapolisi n'abasirikare bahuye, bari kwiga ukuntu bagiye kwiga ukuntu kuzajya baturindira igihugu ,natwe twabasha kubaho dufite umutekano ,kandi dufite ubuzima buzira umuze, kuko ufite umutekano urarya ukaryama ,ukagenda wisanzure mu gihugu ntakibazo.

Leta ni nziza cyane aho ikomeza kutwitaho mu buryo butandukanye, uburyo bwo kuduha umutekano nk'abaturage tukabasha kubaho neza twisanzuye, ugasanga nko kukibuga cy'indege huzuye umutekano hari abashinzwe umutekano, kureba uko ibintu biri kugenda neza hatagira abaza ngo baduteshe umutwe bataba mu gihugu ibyo bikaba byiza cyane umutekano tukawikontororera nk'abaturage, ibyo bigakomeza bigafasha igihugu gutera imbere.

Leta, ni nziza cyane, aho yakajije umutekano mu mijyi no mu byaro. Cyane cyane mu mijyi, ugasanga hose harimo ibyapa bigaragaza uko umuntu ari bugende. Ugasanga harimo n’abapolisi n’abasirikare, bahagarika ama modoka, kugira ngo abone uko agenda, ataza gukora impanuka. Ibyo, bifitiye igihugu akamaro, natwe abaturage muri rusange, kuko nta mpanuka zikunda kuba, kubera umutekano w’igihugu.

Igihugu cyacu gikomeje kwihuta mu iterambere, haba mu mutekano haba muri serivisi zitandukanye, umuntu agakora ibintu yumva atuje atekanye, aho usanga hari n'abapolisingi bambara imyenda y'icyatsi badufasha mu buryo bw'umutekano, ugasanga abana ntibiga abo bantu bakabakangurira kuba bajya kwiga, wasanga umuntu yarigize ikigomeke bakamukangurira kuba yatuza akaba umuntu muzima nk'abandi.

Ubuyobozi ni bwiza cyane aho usanga bwarafatiye runini Igihugu, ugasanga bashyizeho abashinzwe umutekano abapolisi bakazajya baturindira umutekano. Natwe tukabaho neza tutikanga ngo turaterwa kubera ko ubuyobozi buba bwaratwegereye bukatwegereza n'abaturinda.

Iterambere rikomeje kwiyongera, aho usanga nko mu mujyi hariho ibyapa byerekana igihe cyo kwambukira n'igihe kitari icyo kwambukira. Bityo bikabasha kuturinda mu buryo bw'impanuka, kuko igihe cyo kwambuka barabibereka n' igihe kitari icyo kwambuka bakabikwereka, bityo ubuzima bugakomeza bukaba bwiza, tukabaho dutekanye kubera ko dufite ubwirinzi.

Leta ni nziza cyane aho usanga yarashize ahantu icyuma cyo kuzajya kirapima umuvuduko w'abantu, uwaba yarengeje umuvuduko kikamufata ibyo biba byiza cyane biturindira n'ubuzima ugasanga umumotari ari kugenda yitonze kubera icyo cyuma leta yashyizeho, ibyo bikomezaga kuturindira ubuzima tugakomeza kugira ubuzima bwiza.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga abantu baradukoreye amagaze tukazajya tuyagura tukayatekaho ibiryo, ibiryo bigashya umunota umwe, umuntu yabashonje agahita abona ibyo kurya, bityo bikaba byiza cyane nkuko iyo gaze iyo yangiritse, Reta ihita izana kizimyamwoto ikaba yayizimya, ibyo bigakomeza bikadufasha kuturindira umutekano.

Igihugu cyacu ni cyiza cyane, aho usanga cyarashyizemo imbaraga mu umutekano, aho usanga mu gace umuntu yisanzuye yajya ahantu hose haba ku manywa, haba nijoro nta kibaz, nta kintu yikeka kuko umutekano warakajijwe. Ahantu hose hari abayobozi, hari abapolisi, hari abasirikare baturindira umutekano tukabaho tumeze neza kandi twisanzuye.

Leta iba nziza cyane, aho yatwitayeho ikatuzanira abasikirite bakazajya baturindira umutekano, yewe n'abanyeshuri baba bari kunyura ku mihanda akaba ariho abasekirite barabarinda, bakabigisha uburyo bw'umutekano ukorwa, bityo bakabasha gukura bazi ubwenge kandi bafite ubumenyi butandukanye.

Iyo abantu bahuriye hamwe bakaganira biba byiza cyane kuko usangaga nk'intama runaka imihango inamaa y'igihugu iri kwiga ku bibazo byaba byugarije igihugu cyangwa se biri imbere mu gihugu bimwe bikabasha gukemurwa bikabonerwa ibisubizo n'ibindi bigakomeza bigashakishwa ku buryo ibisubizo byabyo bizaboneka ibyo bikaba byiza cyane bikadufasha mwiterambere aho wasanga mu byaro nta matara ubugubu b'akabyigaho twese bakaduha amatara.

Leta iba nziza cyane aho itwitaho ikavuga iti: reka dukore inama tugire ibibazo dukemura muri uyu mudugudu, ibyo bikaba byiza cyane, ugasanga abantu bahuye bari gukemure ibibazo bitandukanye, bityo bigakomeza bikadufasha kugira ubuzima bwiza, kuko hari abagiranye amakimbirane bibafasha kwiyunga, ibyo bigakomeza bikatubera byiza cyane.

Inama iba nziza cyane aho dufatirayo imyanzuro myiza caneyo, ugasanga hari nki'kibazo mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, no mu gihugu icyo kibazo bakagikemurira mu nama bakakigaho bakavayo gikemutse. bakiga no ku mumutekano w'igihugu ubuzima bugakomeza bukaba bwiza, bagakomeza no kwita ku banyeshuri iterambere ry'uburezi rigakomeza rikiyongera, kuko kuri iki gihe uburezi nibwo bugezweho kandi ni bwo budutunze.

Leta ni nziza cyane, aho usanga yaratoye abayobozi, igashyiraho abayobozi beza babereye igihugu, abayobozi barangiza bagahura bagiye kwiga ku kibazo runaka bakaganira bagasabana, barangiza bakwiga kuri icyo kibazo cyaba ari icy'iterambere ry'igihugu bakava aho ngaho bagikemuye bityo igihugu kigakomeza gutera imbere mu buryo bw'imibanire no mu buryo bw'ubukungu.

Inama iba nziza cyane， aho usanga abantu bahuye， nk'inteko runaka ya huye bagiye kuvuga nko ku ibibazo bitandukanye， biri kugariza igihugu，bakabasha kuva muri iyo nama bikemutse， bityo abaturage tugakomeza tukabaho neza， bikadufasha kuba twakomeza kujya turiteza imbere， mu buryo butandukanye， dufite amahoro n'umutekano.

Inama ifitiye idufitiye akamaro kanini aho usangaga abaturage n'abayobozi bahuye bakaganira ku kibazo cyugarije umudugudu, akarere, umurenge cyangwa igihugu muri rusange, ugasanga icyo kibazo cyizweho kuko bateranye n'abayobozi n'abaturage biga uburyo baragikemura. Ibyo biba byiza cyane kuko inama ifite akamaro kanini ivugamo yafatiwemo imyanzuro mizima kandi zubaka igihugu.

Umuco nyarwanda uba mwiza cyane, aho usanga abantu bariteje imbere, bakajya baboha ibintu bimeze nk'ibitebo n'ibyibo n'ibitonga, bamara kweza imyaka bagahunikamo. Ni byo bahunikagamo na n'ubu hari abambere bakibifite bajya bahunikamo ibishyimbo, ibirayi, bityo bikabafasha kwizigamira ibyo kurya, bakazajya bahorana ibiryo badakena.

Umuco nyarwanda uba ari mwiza cyane, aho usanga abakobwa bari mu rubohero bari kuboha ibintu bitandukanye, abab bari kuboha ibirago, bari kuboha ibyibo, ibyo biba byiza cyane, bijya biradufasha, ugasanga abantu bafite imitako mu nzu iboneye arai abakobwa bagiye barayikora ibyo bikagaragaza ko uwo mukobwa yarezwe kandi afite ikinyabupfura.

ibikoresho gakondo bakoreshaga hambere ni byiza cyane kubera ko byadufasha twasura ahantu bitworoheye urugero nk'ibyibo umuntu yabashaga kubona icyo ashyiraramo udusaka akajya gusura mugenzi we bikoreshwa no mu gihe cy'ubukwe bw'umubyeyi biseke ibyo bigaragaza nk'umuco nyarwanda kandi wahozeho kuva kera

Umuco nyarwanda wahozeho kuva kera n'ubu ngubu uracyakoreshwa, aho usanga umuntu yarahinze imyaka, yamara guhinga yejeje akayigeza mu rugo, akayitunganya, kuyihura, wamara kuyihura ukayigosora, ubona umuco nyarwanda uriho na n'ubungubu, ukagosora ukoresheje intara, bikagufasha kuyigurisha bikoroheye kandi isa neza, na abantu bakayishimira kuko iba ifite isuku.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane cangwa se n'umuco gakondo aho usanga habaye ibirori hari imbyino nyarwanda zihari ugasanga abakobwa bari kubyina bateze amaboko ibyo byabaga byiza cyane, byabaga ikimenyetso cy'uko icyo gihe habaga hariho abakobwa n'abahungu bari kubyina byagaragazaga ko hari ubwidagadure bwiza cyane, buri wese yumva yishimye kandi atekanye.

Umuco wo hambere wasangaga abantu bafite imizinga y'inzuki, abo bitaga abavumvu, barikoreye buzinesi bakajya bagira imizinga y'inzuki, bakajya bayororemo inzuki, inzuki zikaduha ubuki, ubuki bugiraga akamaro kanini, buvura n'indwara zitandukanye, usanga n'abantu bari gushaka ubuki bw'umwimerere, kuko bufite akamaro kanini cyane.

Umuco nyarwanda wo hambere, wabaga mwiza cyane, aho wavunaga abantu bahetse umurwayi mu ngobyi, byabashaga kubafasha gutabara ako kanya, aho umuntu yarwaraga, abagabo bagahita bamuheka, bakamujyana kwa muganga, ibyo byabaga ari umuco nyarwanda, ariko kuri ubu, leta yarabyoroheje isigaye yarazanye amamodoka, umuntu yarwara, bagahita bamutwara n'imidoka ako kanya, ibyo byabaga byiza cyane nabyo.

Umuco nyarwanda uba mwiza cyane, aho usanga abantu baraboshe ibyibo bakabikoresha mu mbyino bari kubyina imbyino gakondo, imbyino nyarwanda, bakabikoresha no mu bukwe, aho umukobwa aha umubyeyi, umubyeyi we igiseke, ibyo bikaba byiza cyane bikagaragaza umuco mwiza w'ubumwe, abakera bungaga ubumwe bwiza cyane, n'ab'ubu ni ukunguku babigendeyeho

Umuco gakondo wahozeho aho wasangaga abantu hambere kubw'abami babaga bambaye ubusa, ugasanga umwana w'imyaka cumi n'itanu yambaye ubusa yagera mu myaka makumyabiri agatangira kwambara imyenda kandi bambaraga n'impu. Ugasanga ibyo bintu ni byiza cyane aho abana batagiraga ubukozi bw'ibibi, batagiraga amatsiko y'abandi ugasanga babanye neza nta kibazo.

Umuco Nyarwanda ni mwiza cyane, aho usanga abantu barahinze amasaka bamara guhinga amasaka, amasaka asobanuye ikintu kinini. Aho abantu bahinga amasaka barangiza bakengamo umusururu, bamara kwenga umusururu bagatumira imiryango yabo, nabo baturanye bakaza kwishimana bagasabana, kubera ko bahinze amasaka . Ugasanga no mu bukwe nk'umuntu bamushyingiye bakavuga bati : "hinga amasaka hinga amasaka ". Ibyo bikaba ikimenyetso cyiza cyane.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, aho usanga inka ifite igisobanuro kinini, inka yabaga ari imbyeyi rwose, ugasanga inka ikamwa amata, iduha inyama, iduha amavuta yo kwisiga, inka ifite akamaro kanini mu muco nyarwanda, inka ihuza ibintu byinshi.

Umuco nyarwanda wari mwiza cyane, aho wasangaga igishushanyo runaka kiri ahantu, gisobanuye amateka y'aho hantu yaranze n'igihugu, ugasanga ahantu hari igishushanyo ugahita umenya amateka yaranze igihugu, ukamenya n'icyo ayo mateka yaravuze mu gihugu, ibyo biba byiza cyane kuko bidusobanurira ibintu byinshi.

Umuco nyarwanda wahozeho, aho wasangaga ahabaye ikirori abantu bakajya baravuza inanga iriho igicuma, ibyo byabaga ari ikimenyetso cyiza cyane aho ibyuma bitari byakaje abantu bakoreshaga inanga, ibyo bigakomeza umuziki ukumvikana neza mu matwi.

Mu muco wo hambere hari ukuntu basokozaga imisatsi ,bafite imisatsi iri nko mu matsinda babyitaga amasunzu ,ubwo rero biragaragara ko hano ari uko aba kera basokozaga ,imisatsi yabo yabaga isokoje mu masunzu.

Umuco nyarwanda uba mwiza cyane aho wasangaga abakobwa bari mu rubohero bari kuboha imitako itandukanye, iyo mitako ikamanikwa mu nzu umuntu yahagera akamenyako aho hantu haba abakobwa bakora ibikorwa bitandukanye by'imitako, bazi kuboha ibyo byabaga ari byiza cyane kuko n' imitako yaragurishwaga ikavunjwamo amafaranga, bityo tugakomeza tukiteza imbere.

Umuco wo hambere wahozeho wabaga ari mwiza cyane, aho wasangaga nko mu miryango runaka, buri mudugudu cyangwa se buri muryango bafite ingobyi zo guhekamo abarwayi, ibitebo byo kuyoresha amasaka cyangwa se ibigori, bityo bakabasha gushyira hamwe kuko uwabashaga kurwara, ni abagabo bamuhekaga bo muri uwo muryango.

Umuco nyarwanda uba mwiza cyane, aho usanga mu byaro bifitiye ibintu by'ibibindi byo kubikamo amazi, gutekamo, ugasanga bisimbura amasafuriya, ugasanga ahanini bakunda kwitekera mu bibindi, byari umuco nyarwanda, ahenshi wasangaga wakunda kwitekera mu bibindi, byabaga ari umuco nyarwanda.

Umuco gakondo wahozeho kuva kera, aho wasangaga abantu bari kubyina bakavuza amakondera, barangiza ugasanga mu birori bari kubikoresha, ukabona ibyo bintu ni byiza cyane bibereye amaso, bigakurura na ba mukerarugendo kuko biba ari byiza bibereye Igihugu.

Umuco gakondo wahozeho kuva kera, aho wasangaga abantu bari gusangirira ku kibindi kimwe, bameze nk'abari kunywana, nta n'umwe wajyaga ahemukira undi, kubera ko baba baranywereye ku kibindi kimwe basa nk'aho bari kunywana, ibyo bintu byabaga byiza, byubakaga ubucuti hagati y'abantu n'imiryango, ugasanga babanye neza mu mahoro nta kibazo.

Umuco nyarwanda uba mwiza cyane aho usanga abantu bafite amacumu bigaragaza ko bagiye kubyina n'ingabo banateze neza, bafite ibindi byo kunyweramo. Ibyo n'umuco nyarwanda aho wasangaga abantu bagiye kubyina bagakuru na bamukerarugendo bajye kureba ubwo bubyinnyi uko bambaye, ibyo byabaga biboneye, ibyo bikaba byiza kandi bigafashe igihugu gutera imbere natwe tubireba tukabona ari byiza.

Umuco nyarwanda icyo bita taradisiyoneri usanga twigiramo ibintu byinshi bitandukanye. Indangagaciro z'umuco nyarwanda, imbyino gakondo, kwiga kubyina dukoresheje ingabo n'umuheto, amayugi, bidufasha kuba twamenya kubyina, gusigasira umuco nyarwanda, umuco gakondo, mu mbyino.

Umuco nyarwanda wabaga mwiza cyane. Aho wasangaga inka z'amahembe zabaga zimeze neza ziteza urugori. Zabaga zisobanuye ibintu byinshi. Inka ni igisobanuro kinini cyangwa igisobanura cyiza aho usanga inka iduha amata, ikaduha amavuta yo kwisiga, tukagira uruhu rwiza, ikagurishwa tugakuramo amafaranga, ikaduha n'inyama, ikaduha n'ifumbire ibihingwa byacu bikera neza. Inka ni nziza cyane.

Umuco wo hambere wabaga ari mwiza cyane, aho wasangaga umuntu afite umuvure, umuvure akagenda akawukamiramo ibitoki, ibitoki bikazajya biraraduha umutobe, barangiza abantu bakawunywa cyangwa se bakawucuruza, bakawukoramo n'urwagwa bakazajya barabona n'amafaranga bakinjiza amafaranga bakiteza imbere mu buryo butandukanye, cyangwa se umuvure bakongera bakawujyana mu mugezi bakazajya barabugendamo ukabwita ubwato.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane, aho usanga abagabo bambaye impuzangano nziza cyane, zo mu bubyinnyi bafite ingabo bafite n'umuheto bafite n'icumu, ibyo bikabonera cyane ugasanga bari kubyina bari kwikaraga, bagakurura na ba mukerarugendo kuza kureba ibyo bintu, ibyo bikabafasha nuko tukabona amadovize bigafasha igihugu gutera imbere.

Umuco wo hambere wabaga uboneye cyane ,aho wasangaga abantu biyogoshesha neza , bafite amasunzu ku mitwe ibyo byabaga biboneye cyane , nta muntu wapfaga kwiyogoshesha ahubwo biyogosheshaga mu matsinda, ugasanga umusatsi ni amasunzu ku mutwe aboneye cyane, agakurura naba mukerarugendo kuza kureba uko abanyarwanda babaga bameze, bafite imisatsi iboneye cyane.

Umuco nyarwanda wabaga mwiza cyane aho abantu bahuraga bakaganira, bagasabana hariho nk' ikibindi nko mu bukwe ugasanga ba mwana barahuye bacyunamyeho bakinywereyeho ari babiri ,barangiza ubwo bakaba banywanye ugasanga bitumye ubucuti bwabo bukomera, ntihagire icyabatandukanya bakazajya bibuka icyo gihango bagiranye.

Umuco nyarwanda wo hambere wabaga mwiza cyane, n'umuco gakondo wahozeho nanubu uracyariho, aho wasangaga abantu bakora nk'udutebe mu migano. Imigano ni myiza cyane, iyo iri mu dutebe cangwa se ibitanda biba biboneye kandi biba bikomeye cyane, imigano iyo wayubakishaga nk'inzu yarakomeraga cyane ntabwo yapfaga gusenyuka imigano idufitiye akamaro kanini.

Umuco nyarwanda ni mwiza, aho duhuriramo tukabyina taradisioneri imbyino gakondo za kinyarwanda, tugahura na bagenzi bacu b'ingeri zitandukanye, abakobwa, abahungu, abamama, abapapa, bityo tugakomeza gusigasira umuco nyarwanda mu mbyino gakondo.

Umuco nyarwanda cyangwa se umuco gakondo wahozeho ,aho abakobwa bajyaga gucunda amata ,bamara kuyacunda bagakuramo n'amavuta, bityo umuco ugakomeza ugakura cyane, aho usangaga no mu bukwe uwo muhango utaburamo ,umukobwa agacunda bigaragaza ko n'iwabo yacundaga amata.

Umuco nyarwanda wo hambere wabaga mwiza cyane, aho wasangaga imboga z'isogi abantu barakundaga kuzirya ba kera, ngo zabafashaga gukomera bagasaza bafite imyaka irenze ijana, bazitekaga mu biryo by'ibirayi bakabicucuma bakabirya biri gusharira, izi mboga zirasharira cyane abakera barazikundaga, ngo zabafashaga gukomera no kurama.

Umuco nyarwanda uba mwiza cyane aho usanga inka ivuze ibintu byinshi ,ugasanga inka ikurwa ikurwaho amata, igakurwaho amavuta, amavuta y'inka abantu bakayisiga, barayisiga inka ifite akamaro kanini, ikagurishwa ,abantu bakabona amafaranga yo kuba bahaha ibindi bikoresho.

Umuco nyarwanda wabaga mwiza cyane, aho wasangaga umuntu yakoze nk'ubukwe akazana nk'umuntu uramuririmbira afite n'inanga yo hambere, yabaga ifite imirya, ugasanga ari gucuranga iyo nanga ukumva biraryoshye biraboneye, n'abantu baje muri ubwo bukwe bakabona ibintu ni byiza cyane, cyangwa se haba habaye nk'ibirori hagatumirwa abantu bakaza kuririmba bo gushimisha abashyitsi, ugasanga harimo uwo gucuranga inanga ibyo bikaba byiza cyane.

Umuco nyarwanda wahozeho, aho wasangaga abantu babumbye ibibbindi, bamara kubibumba bakajya kubigurisha. Ibyo bibindi bamara kubigura bakagenda bagatekeramo ibya kurya, nk'ibishimbo, inyama, bamara kuzitekeramo ibyo biryo, abantu bakabirya bakumva biraryoshye cyane. Ibibindi byabaga ari nk'amasafuriya bikaba n'ikimenyetso cyo mu bukwe aho abantu babinyweragaho.

Umuco nyarwanda wahozeho kuva kera, aho wasangaga inka ivuze igisobanuro kinini, kuko inka yaduhaga amata tukazajya tubona n'amavuta yo kwiisiga. Tukaba twazigurisha tukabonamo amafaranga yo kwiteza imbere ,bityo zigakurura na ba mukerarugendo, kuko ziba ziteze amahembe, zitatse. Bityo ba mukerarugendo bakabasha kuba badusigira amadovize, bityo bikatubera byiza.

Umuco nyarwanda hambere wahozeho, aho wasangaga umuntu afite nk'ibibazo byinshi bitandukanye, akazajya arajya nko kubaza ku bapfumu, bakamusobanurira ibyo bibazo ari guhura na byo, bakamubwira n'icyo yakora. Ugasanga amenye icyo yakora n'icyo yareka.

Umuco gakondo cyangwa se umuco nyarwanda wahozeho kandi na nubu uracyariho, aho usanga nk'ibirori byabaye abakobwa bakaza kubyina bikoreye nk'ibiseke, hakaza n'intore zifashe imiheto n'imyambi ugasanga bibereye amaso, binakuruye ba mukerarugendo kubera ubwo bubyinnyi buboneye cyane, kwidagadura abantu bakishima bakanezererwa.

Umuco nyarwanda kuva kera wahozeho，byabaga ari byiza cyane， aho ababyinnyi bajya kubyina bagakoresha ingoma gakondo，aho gukoresha ibyuma. Ingoma zijya ziravuga cyane， ukumva ibintu biraboneye mu matwi， bikaba byakurura abantu kuza kureba ibyo birori， kuko ingoma ivuga cyane，kandi ukumva iryoheye amatwi.

Umuco nyarwanda uba mwiza cyane kandi gukomeza gusigasirwa, ku buryo n'abazajya bavuka nyuma bawumenya, aho usanga hari inzu ndangamurage. Inzu ndangamurage yabamo amateka menshi, aho abantu bajya kuyisura bagiye kwiga ayo mateka bagiye kumenya amateka yaranze Igihugu bityo bigafasha abanyeshuri n'abantu muri rusange kumenya amateka y'Igihugu.

Umuco wo hambere wari mwiza cyane, na n'ubu ng'ubu uracyakoreshwa, aho usanga ibiseke bisobanuye ibintu byinshi nko mu bukwe ,mu misango y'ubukwe, umukobwa yafataga igiseke akagiha nyirabukwe na n'ubu ni ko bimeze ,ugasanga abakobwa bafashe ibiseke bagiye kubihereza ba nyirabukwe ,cyangwa se wajya no gusura ahantu, ukazajya urajyana kiriya giseke ,biba byiza cyane.

Umuco wo hambere abantu bageraga ahantu bororera inka bamara kuzorora barangiza bakajya kuzishokesha aho bateguye, habaga ahantu bubatse bagashyiramo umunyu mu mazi zikayanwa zishimye, inka zo hambere zagiraga n'amahembe ukabona ziraboneye, warangiza zigakurura na ba mukerarugendo bakazifotora bagasiga n'amadovize, ibyo bigakomeza kudufasha mu iterambere ryacu buri munsi.

Umuco gakondo wabaga ari mwiza， aho wasangaga abami cyangwa se n'abandi bantu， bari gukina nk'igisoro， ukabona barishimye， bameze neza basabanye， bakaba n'inshuti，bityo ukaba wahakura n'inshuti， ugasanga wibaniye n'abandi neza，kuko hari imikino yabahuje， ugasanga umwami ari gukina na baja be，barisanzuranye，ni ba Ntawutinya undi.

Mu muco nyarwanda wo hambere abantu bajyaga gukama ibitoki, bafite umuvure, umuvure wabaga ariwo gukamiramo ibitoki, cyangwa se mbere bagiraga n'umuvure wo kuzajya baraheramo inka amazi cyangwa se bakawuheramo inka ibintu byo kunywa, ibyo bikaba byiza cyane, byabaga ari umuco nyarwanda, nan'ubu umuvure bawukamiramo ibitoki bagakora umutobe.

Umuco nyarwanda wahozeho kuva kera aho ubungubu usanga harimo abagishoboye bakaboha ibirago cangwa se imisambi. Ugasanga abantu bari kubigura babyicaraho bakabona icyo kwicaraho, aho ikirago gikoreshwa no mububukwe, aho usangaga ari ikimenyetso cyiza cyane, umukobwa ahag nyirabukwe ikirago bivuze ikintu kinini aho k'umukobwa biba bigaragaza ko afite ubuhanga.

Umuco gakondo wahozeho kuva kera nanubu uracyariho, aho usanga habaye nk'ibirori runaka, ugasanga abantu bafite ingoma bari kuzivuza, ingoma zabaga nziza cyane, zakururaga n'abantu kuza kureba ibintu byabaye aho hantu kuko zavugaga cyane zikageza kure, bityo bikabasha gufasha abantu kwishima kubera ko baba bari kureba n'izo ngoma bakazishimira, bigakurura na ba mukerarugendo.

Umuco gakondo uba mwiza cyane, aho usangaga abantu baraboshe ibintu bitandukanye, umuntu akaboha nk'intebe, akayibohera akantu kagatako keza cyane ukakagreba iyo ntebe ukabona ni nziza cyane iraboneye kubera ko nkambere babohaga bakabohera n'ibikombe, bakabiboheraho n'amasaro, bakabohesha n'ubudeyi, ukabona icyo kintu kiraboye gifite ishusho nziza cyane.

Umuco gakondo wahozeho na n'ubungubu, aho abakobwa bajya mubikari bakiga kuboha ibiseke, bakiga kuboha n'indi mitako itandukanye, ku buryo bayitaka mu nzu bakabona ko iboneye bakaba banayigurisha bakabonamo n'amafaranga, yewe bakanayigemura mu bindi bihugu. Na ba mukerarugendo bakaba baza kuyigura bagasiga n'amadovize, ibyo bigatuma igihugu gitera imbere.

Umuco nyarwanda wahozeho kuva kera na n'ubu ngubu uracyahari, aho usangaga abantu bazi kuboha ibirago dore ko ibirago bisanzwe by'ubwatsi bakura mu gishanga, imashini ntabwo izi kubudoda abantu nibo babiboha, ugasanga umuntu akoresheje ubukwe afite ikirago, cyangwa se umusambi ukoreshejwe mu buryo bwo kugaragaza ko umuco nyarwanda ukiriho, aho abakobwa bajyaga mu rubohero bakaboha ibintu bitandukanye.

Mbere wasangaga abantu bajyaga biyogoshesha imisats,i biyogosheshaga amasunzu y'amatsinda ibi bigaragaza ko kubw'abami biyogosheshaga amasunzu niko bayitaga ugasanga ni byiza cyane biraboneye aho abagore n'abagabo bose biyogosheshaga amasunzu ukabona biraboneye ni byiza cyane.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane， aho usanga imbyino gakondo，cyangwa se imbyino nyarwanda zikomeje gusigasirwa zigashyirwa imbere， kuko bikurura ba mukerarugendo，imbyino gakondo aho usanga umuntu abyina afashe icumu n'ingabo，amayogi se， ugasanga birashimishije kandi bibereye amaso， bigakururana na ba mukerarugendo，bikadufasha no kwidagadura.

Kwiga ni byiza cyane aho usanga umuntu ajya mu ishuri akiga ibintu bitandukanye, harimo kwiga ibintu bijyanye n'amashanyarazi, ugasanga ari kwestara mu rugo se na we ari kwiteza imbere, aho usanga cyane cyane urubyiruko rwiga ibintu bitandukanye kandi rugashyiramo imbaraga, ugasanga ni bo bari gukanika ibintu bitandukanye nk'ibyuma se amashanyarazi, bari kwestara mu rugo rw'ahantu na bo ubwabo bakiteza imbere.

Uburezi buba bwiza cyane kandi bidufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarahinze ibintu bitandukanye bijyananye n'amashanyarazi, akaba azi kwesitara amashanyarazi azi no kuyakanika, akaba azi ibikoresho bikoreshwa umuntu ari gukora nk'amashanyarazi ye, ari nko gushira mu nzu ya runaka amashanyarazi agakomeza akajya ariteza imbere. Cyane cyane urubyiruko rusigaye ruzi kwesitara amashanyarazi.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarize akiteza imbere, akaba yarize ibintu bitandukanye, akiga ibintu ibijyanye no kuri mashini akaba azi gukoresha mashini, akaba yabona akazi mu biro runaka, akamenya gukoresha imashini, akaba azi ipfuye ngo yayikanika gute. Biba byiza cyane umuntu yarize ibindi bijyanye na elekitirisite, akamenya uko yapfuye akaba yayikanika, ibyo bigakomeza bikatubera byiza cyane.

Uburezi buba bwiza cyane, aho umuntu ajya kwiga ibintu bitandukanye, akaba yakwiga nko gukanika, akamenya ukuntu azajya aresitara amashanyarazi. Akazajya arashyiriramo abantu, abaturage mo amashanyarazi akabashyiriramo n'aho kwatsa. Ibyo bikaba byiza cyane, tugakomeza tukaba ahantu hari urumuri rwiza cyane.

Kwiga biba byiza cyane, aho umuntu usanga yarize ibintu bitandukanye. Ugasanga yarize nko gukora amashanyarazi akaba azi ibikoresho by'amashanyarazi umuntu yakoresha ari nko gufungura no gufunga, nko kwesitara ugasanga afite ibikoresho bitandukanye akaba azi icyo turiya dusumari dusobanuye, akamenya aho aradushira. Ibyo biba byiza cyane bifasha umuntu wabyize kubimenya kuko na wabikoresha ubu utarabyize.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga ko umuntu yarigiyemo ibintu bitandukanye. Akaba azi gukanika amashanyaraziba, akaba azi ibikoresho by'amashanyarazi icyo wabikoresha, akaba azi akantu ko kurebesha umuriro, niba umuriro urimo, ku buryo yaje kuwukanika utaza kumwica cyangwa kumwotsa. Ibyo biba byiza cyane kuko ibikoresho by'amashanyarazi byose aba abizi icyo wabikoresha.

Iterambere rikomeje gukataza kandi rikagenda riba ryinshi, ahantu hatandukanye nko mu byaro, ugasanga hari nka hoteri, hari amasoko, hari ibikorwa bya guverinoma, leta yagiye ishyiraho ku buryo umuntu ashobora kwisanzura nko mu isoko, ugasanga ahantu hose imihanda yagiye ihagera, ibyo bikatubera byiza cyane

Leta iba nziza cyane aho ifasha abantu kuba bakubaka insengero, ikemerera abantu kubaka insengeraro ahantu runaka, bityo tukabasha kubona ahantu tujya turajya gusengera tugahurira na bagenzi bacu, tukabasha kumenyana n'abaturanyi tukishima, tukavayo dukijijwe tukabana na bagenzi bacu neza nta makimbirane abayeho.

Leta ni nziza cyane . Aho yatwitayeho ikazajya iratwemerera kubaka insengero ,abapasiteri bakaba bubaka insengero ,ugasanga ahantu hari urusengero rw'abadive abantu bajya kurusengeraho bameze neza, banezerewe ,kuko babonye n'imihanda yo kunyuramo bagiye gusenga . Ibyo bigakomeza bigafasha igihugu gutere imbere.

Ubuyobozi ni bwiza cyane, aho usanga ubungubu ku burezi baragiye bubaka ama etaje, ku buryo buri munyeshuri wese azamenya kuyagenderamo, niba agiye no mu mujyi akamenya ukuntu yakorera ku ma etaje. Ibyo byabaye byiza cyane kuko byatumye umusaruro w'uburezi wiyongera, abanyeshuri basigaye bishimira kwigira mu ma etaje.

Ubuyobozi buba bwiza cyane , aho bwagiye burubaka ibikorwa remezo ahantu hatandukanye, bukubaka nka hoteli ikazajya irakorerwamo ibintu bitandukanye, ikatwubakira n'imihanda abagenzi bakajya baragendamo neza, n'abamotari, n'abatwaye amamodoka bakabasha kwihuta, ikatwubakira n'amasitasiyo kuburyo ayo mamoto uyashyizemo esansi yajya arajya kunywera aho hantu.

Gusenga nibyiza cyane, aho usanga ahantu barahubatse nk'urusengero, warangiza ukajya kuhasengera, waba ufite ibibazo ukumva urasubijwe, waba warihebye ukumva umeze neza, amasengesho akagufungura mu mutima, bityo ukabasha kubana na bagenzi bawe neza.

Leta ni nziza cyane, aho ifasha abantu kwiteza imbere, ikubaka nk'amazu ikayubakira abatishoboye barangiza bakabona aho kuba heza cyane haboneye nabo bakahishimira, bagakomeza bagashimira Leta, kuko yakomeje kutwitaho ikemerera n'abaturage kubaka n'insengero zo gusengeramo tukavamo twafashijwe, igihugu kigakomeza kigatera imbere kuko tuba tubanye neza twese.

Ubuyobozi bwacu buba bwiza cyane, leta yacu yatwitayeho, aho yadushingiye ibiro by'akagari, ugasanga umuntu agize ikibazo azi akagari ari bujyeho, ibyo byatubereye byiza cyane, nta kwirirwa umuntu aratonda n'umurongo, usanga abayobozi bahari bakagukemurira ikibazo kikarangira mbere kikarangira kare ugahita witahira nta kibazo.

Leta ni nziza cyane aho idufatiye runini, yemereye abaturage kuba bakubaka insengero bakabona naho bajya gusengera, ikemerera n'abapasiteri kugira ngo bazajye bajya gusengera n'abaturage, ufite ibibazo akavamo yishimye byakemutse, igihugu kigakomeza kigatere imbere kuko tuba tubanye neza tubanye neza nta kibazo nta mwijyane nta mahane, ibyo bigakomeza bigafasha n'igihugu gucunga umutekano mu buryo bworoshye.

Guverinoma ni nziza cyane, aho usanga yarahisemo ahantu runaka hari nk'amabuye y'agaciro, abantu bakazajya barayacukura, bamara kuyacukura bakayakuramo ibikorwa runaka, bakayakuramo nk'ibikoresho, bamara kubibona bakabikoresha, bakabigurisha no hanze , yewe nayo mabuye y'agaciro akajyanwa hanze, ibyo bikaba byiza cyane bikatugirira akamaro mu gihugu.

Leta ni nziza cyane aho yatuzaniye abayobozi, ikatwegereza abayobozi bityo bikatubera byiza cyane, aho umuntu ashaka gusezerana mu murenge akabona ibiro byo kujya gusezeraniramo, hafi aho hakaba hari sare, abayobozi nabo bakadufasha na ba noteri bakaba bahari, bityo tugakomeza kubaka umuryango nyarwanda ukomeye kandi uhamye.

Ubuyobozi ni bwiza cyane, aho usanga ubungubu ari ibiro by'umurenge, ari ibiro by'akagari, by'umudugudu, byose byubatse neza, kandi biboneye tukaje gushaka iyo serivisi twumva twishimye kandi tunezerewe, Leta ni nziza cyane kuko yagiye yubaka ahantu hose ibiro by'akagari, by'umudugudu, by'umurenge, ikemerera n'abandi bayobozi cyangwa se abapasiteri bakubaka insengero, ibyo bigakomeza bikaba byiza cyane mu gihugu biboneye.

Leta ni nziza cyane aho isigaye iratwitaho ikatwubakira amasoko tukajya turabona uko twiteza imbere turi gucuruza, ikatwubakira n'insengero ugasanga abantu tubonye ahantu tizajya tujya gusengera tukavayo twafashijwe ibibazo byacu tukabitura Imana ikaturengera no mu ubucuruzi bwacu bugakomeza bugatera imbere kuko tuba twabonye amasoko gucururizamo.

Leta ni nziza cyane aho batwubakiye imihanda ya kaburimbo ikajya irazana n'ibimodoka byo hanze byo gukora imihanda, ibyo byabaye byiza cyane byaratwohereje, aho abantu bubakaga umuhanda bakamara nk'umwaka, ariko amamodoka asigaye arubaka umunsi umwe, cangwa nk'icyumweru. Ugasanga bubatse umuhanda ugeze nk'iyo hirya kure, biba byiza cyane kuko amamodoka yatworohereje kwihutisha ibintu.

Leta yatwitayeho cyane, aho yatwubakiye imihanda ya kaburimbo, bityo bikatworohera kujya ahantu kure, aho twakoreshaga isaha dusigaye dukoreshe iminota mirongo itatu, ibyo byatubereye byiza cyane, yatwitayeho yabonye ko dukeneye imihanda ya kaburimbo yo kugirango itworohereze urugendo.

Leta ni nziza cyane aho yatwitayeho ikajya itwubakira insengero, ikemerera abapasiteri kubaka insengero, tukajya tujya gusengeramo, tukavamo twafashije, twakijijwe, ugasanga abaturage tumeranye neza nta makimbirane. Ibyo biba byiza cyane, bifungura imitima y'abantu, ababaga bafite amahane bakavayo bakijijwe, tugakomeza tukabaho neza mu mahoro.

Ubuyobozi ni bwiza cyane bw'igihugu aho usanga imihanda yarakwirakwiye ahantu hose ya kaburimbo, ugasanga umuntu wese ari kugenda yisanzuye mu muhanda kuko Leta yatwitayeho ijya iraduha imihanda ahantu hose nta hantu hatari kaburimbo, bityo bikatworohera no kuba twanabona amamodoka yo gutega, tukabona aho uko tugera aho tugiye ako kanya bitatubanye kure.

Leta ni nziza cyane aho yadushyiriyeho abayobozi beza abayobozi babereye igihugu, bajya batuyobora neza bakaduha ibyo dukwiriye, aho usanga nk'umuntu afite uburenganzira bwose yisanzuye, abayobozi bakabasha kumva ikibazo cye kubera ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaho neza kandi no kubaza ikibazo afite, ibyo bikadufasha kugira ubuzima bwiza no gutera imbere, kuko nta muntu uhura n'ikibazo ngo ntibagikemure.

Leta ni nziza cyane, aho yadushyigikiye buri muntu wese mu gihugu akaba yumva afite uburenganzira bwose, uburenganzira bwo kugira icyo akeneye byatubereye byiza cyane, uburenganzira bwo kuvuga, uburenganzira bwo kuyobora, uburenganzira bwo kubwira abantu igitekerezo, ukaba ufite n'ubutabera nta wapfa kukurenganya cyangwa ngo akubeshyere ,ibyo bikaba byiza cyane bituma twumva natwe mu gihugu twisanzuye.

Leta ni nziza cyane aho yadushyiriyeho abayobozi beza, bafite umutima mwiza, igakoranya abaturage b'umudugudu, cyangwa se mu murenge, bagahurira ahantu runaka hanini, barangiza bakavugiramo ibibazo byabo, ufite ikibazo akakigeza ku muyobozi bikabasha gukemurwa, kubera ko Leta yaduhaye uburenganzira busesuye nk'abaturage ni nziza cyane yatwitayeho.

Leta ni nziza cyane, aho yatwitayeho. Buri muturage wese akaba afite uburenganzira bwo kwisanzura, buri muturage wese afite uburenganzira bwo kubaza ikibazo, cyarangiza kikabonerwa igisubizo. Buri wese aba yisanzuye mu Gihugu nta kibazo. Ibyo byatugiriye akamaro kanini, aho wasangaga mbere umuntu nta kintu yavuga. Ariko ubu ngubu umuturage afite ijambo.

Leta ni nziza cyane aho usanga isigaye yumva uburenganzira bw'abaturage, yahaye abaturage uburenganzira, yarababwiye ngo nibisanzure bumve bameze neza aho umuturage asigaye agira ikibazo akajya kurega barangiza abayobozi bakagikemura ku bw'uburenganzira bwa muntu. Ibyo byatubere byiza cyane twese ubu dusigaye twumva tumeze neza. Noneho uwagiye mu ikosa bagakosorwa ntihagire urenganywa.

Leta ni nziza cyane aho yagiye irubaka mu gihugu ibikorwa bitandukanye kandi bitangaje binaboneye, ugasanga yatwubakiye imihanda y'indege, ugasanga hariho ahantu ho guparika indege, ndetse n'inyubako ikaba iboneye aho indege iparika umuntu yahareba akabonaani ni heza, akabahakurura na ba mukerarugendo.

Usanga ahanini igihugu gikomeje gutera imbere, aho usanga hari ahantu ho guparika imodoka. Nta hantu hatari kaburimbo, kaburimbo yageze ahantu hose, ukabona ahantu ho gutegera imodoka bikoroheye. Ubu byaroroshye ntabwo wabura ahantu ujya gutegera imodoka, ugiye nko gukora urugendo runaka.

Imihanda ya kaburimbo idufitiye akamaro kanini, aho ubungubu usanga umuntu yaravunitse baramwicaje nko mu kagare, kugasunika muri iyo mihanda ya kaburimbo bikoroha bikaba byiza cyane, kuko bimworohera kugera aho yategera imodoka byoroshye kubera imihanda ya kaburimbo Leta yatugejejeho nko mu bibaya hose no mu biturage hose.

Leta ni nziza cyane yatwitayeho, itwubakira imihanda twese abaturage tuzajya turabona uko tunyuramo duteze. Na moto zikagenda neza zitari kwikubitagura kubera ko imihanda yaraje ahantu hose, mu migi no mu byaro, ubyo byatubereye byiza cyane, aho umuntu urugendo yakoreshaga amasaha abiri, asigaye arakoresha isaha imwe. Ibyo byoroheje urugendo byatubereye byiza cyane twaranabyishimiye.

Imihanda iba myiza cyane, aho abantu basigaye barabona aho kujya gutegera imodoka bakagera aho bagiye bitabagoye bakihuta kubera imihanda ya kaburimbo. Ikadufashe no ukubonyemenya aho twajya gutegera imodoka. Ibyo bigakomeza kutubera byiza.

Amagare rusange ni meza cyane kandi adufitiye akamaro kanini, aho usanga amamodoka ahaparitse urugero: nko muri gare ya Nyabugogo cyangwa se gare ya Musanze, wajya gutega ukabuzi aho imodoka z'iwanyu, ahoze ziherereye utiriwe urajijinganya kandi zikagenda neza zikagenda mu makaburimbo, leta yatwubakiye tukabasha kugenda dufite umutekano, kuko imihanda iba imeze neza.

Aho iterambere riziye ryabaye ryiza cyane, kuko ryorohereje abantu kuzajya bajya nk'ahantu mu masoko kujya guhaha, bakabona aho banyura bagiye gutega. Amakaburimbo yaratwegereye hose ubu nta muntu ugikora urugendo rurerure ni uguhita atega, umuntu waba afite nk'ikinyabiziga ntagende ngo ari kugorwa n'amabuye ahubwo akagenda mu muhanda muri kaburimbo yumva ameze neza. Ni umuhanda umeze neza cyane, bikamufasha kwihuta aho agiye.

Leta ni nziza cyane aho yatwubakiye imihanda, abo mu byaro cyangwa se mu mijyi, kugenda gukora urugendo bisigaye biratworohera, aho umuntu yakoreshaga isaha imwe asigaye ara akoreshe iminota nka mirongo itatu, ibyo bikatworohera ku rugendo tugiyeho tukihuta, leta yatwitayeho cyane yaratwibutse rwose yarakoze.

Leta ni nziza cyane, aho yitaye ku baturage, mu byaro hose hariho imihanda myiza cyane, nubwo nta kaburimbo hamwe irimo, ariko umuhanda urawureba ukabona usa neza , abamotari batwara neza nta mpanuka, nta bibuye barakubitana nabyo, bityo bigakomeza kuba byiza cyane.

Leta iba nziza cyane kandi turayikunda cyane, aho usanga yaratwitayeho nk'abaturage. Ikatwubakira imihanda ya kaburimbo, abantu bakazajya barabona aho banyura bameze neza, nta mabuye barasitaraho, n'amamodoka akajya aratwara abantu neza nta mpanuka irahora iraba, kubera haba harimo ibibuye n'ibihanamanga. Ibyo bikaba byiza cyane bigafasha Igihugu gutera imbere.

Leta iba nziza cyane aho yatwitayeho, ikajya itwubakira amagare abantu bakazajya baza kuyategeramo, hakaba hari n'ahantu umuntu akatishiriza mu byumba, ugasanga umuntu azi imodoka ari bugendemo akaba azi ngo aragenda muri stela ajanse, cyangwa aragenda muri fidelite. Ibyo byaratworoheye cyane, umuntu amenya imodoka aratega kandi n'iyo akunda.

Leta iradukunda cyane, aho usanga yaratwubakiye imihanda no mu byaro, dufite imihanda myiza iboneye, irimo isuku ikuburwa igirirwa isuku bakayifuhira, bakayikuramo ibyatsi, amamodoka akanyuramo neza natwe ubwacu tukanyuramo neza n'amagare, akabasha gutwara abantu akiteza imbere kubera imihanda myiza.

Iterambere ni ryiza cyane, aho usanga ubu ngubu kuri iki gihe no mu gihugu cyacu dufite ahantu hari ibibuga by'indege, aho dufite indege yitwa Rwandair, abantu iyo bagiye hanze biraborohera cyane, n'amatike akababera makeya, kubera ko natwe dufite indege yitwa Rwandair, ibyo bikadufasha cyane, natwe tukajya kureba mu bindi bihugu, tukahamenya bitworoheye, bitadusabye amafaranga menshi cyane.

Iterambere rikomeje kwiyongera, aho usanga leta yaratwubakiye ahantu ho guparika amamodoka, usanga uzi ahantu ho gutegera ukajya kuhategera bikoworoheye, utiriwe urategereze imodoka utazi aho yagiye, ugasanga hari amatara ku mihanda bityo tukabasha kugenda, dufite umutekano kandi twisanzuye.

Leta ni nziza cyane, aho usanga yaraduteganyirije ahantu ho guparika amamodoka, imodoka tukaba tuzi ahantu ziparika waba ugiye gutega ugahita umenya ngo urayihasanga cyangwa nturayihasanga, ibyo byatubereye byiza cyane kuko leta yatuzaniye ni ibimodoka binini, bizajya biratwara abantu benshi nta muntu usigaye mu nzira, zikagenda mu makaburimbo meza kandi zikihuta cyane.

Leta iba nziza cyane, aho idufitiye akamaro kanini, ikubaka inzu ikazajya irashyiramo imbuto runaka abantu bakazajya baraza kuyigura, ikatwubakira imihanda amamodoka azajya aranyuramo, bityo bikaba byiza cyane tukabasha kubona n'ibicuruzwa bivuye hanze kubera ko dufite imihanda myiza amodoka akazajya aranyuramo nta kibazo.

Ubwikorezi bwo mu umuhanda buba bwiza cyane, aho usanga leta yaratwubakiye imihanda ya kaburimbo, ubwo amamoto agatwara imizigo, agatwara n'abantu. Ibyo bikabasha korohera umumotari kuko imihanda ya kaburimbo iba ari myiza cyane, nta mpanuka ikunda kuberamo kubera iyo mihanda iba ari myiza.

Ubuyobozi ni bwiza cyane bw'iki gihugu, aho usanga bwaratwubakiye imihanda ya kaburimbo, bakubaka n'imihanda y'abanyamaguru ndetse n'abanyamagare. Bose bakabona aho bazajya baranyura mu buryo bwo kurinda umutekano, kugira ngo abantu batazajya barakora impanuka ngo bagongane, bityo igihugu kigakomeza kikagira ubwiza nyaburanga butatse igihugu.

leta ni nziza cyane aho yatwubakiye imihanda ya kaburimbo ibyo byatubereye byiza, imodoka zisigaye ziragenda ziri kwihuta imihanda imeze neza, natwe tuyigendamo tukabona ni nziza cyane, ibyo byaratworohereje ku rugendo aho imodoka igutwara ugakoresha iminota mike m'umwanya wo kugenda n'amaguru ukirigwa mu nzira, ibyo byatubereye byiza cyane kuko imihanda ya kaburimbo ifasha imodoka kwihuta.

Ubwikorezi bwo mu muhanda buba bwiza cyane cyangwa se Leta yatwubakiye imihanda yatugiriye neza, aho usanga ahantu twakoreshaga amasaha abiri ubu twarorohewe ni imodoka ugatega ukahakoresha iminota mirongo itatu, ibyo bituma umuntu yihuta aho agiye bikatugirira akamaro kanini, kuberako niba uri kwihuta cyane umuntu arwaye byagufasha kuba yabaho kuberako imodoka yadufashije kwihuta.

Ubwikorezi bwo mu muhanda buba bwiza cyane, cyane cyane iyo leta yatwubakiye imihanda ya kaburimbo, byatugiriye akamaro abantu basigaye bariteza imbere nkabagabo buri wese akagura moto yamara kugura moto agatwara, akajya aratwara abantu, yamara kubatwara akabonamo amafaranga, akaba yabone ayo gutangirira abana be, nawe akabona ayamubesha mu rugo muri rusange, ibyo bigakomeza bigaha igihugu ishusho nziza.

Leta ni nziza cyane aho yatwitayeho muce zitandukanye mu turere dutandukanye no mu mirenge, usangaho ama parikingi aho amamodoka agaparika, ibyo biba byiza cyane biradufasha kuko natwe tumenyaya ahantu hari amamodoka aho aparika tukajya gutega tukagera aho tugiye byihuse bitabanje kutugora ngo turagenda na maguru.

Leta ni nziza cyane aho yadukoreye imihanda rusange hakajya haberamo ubwikorezi butandukanye nk'amamoto akajya atwara abantu neza kubera ko iyo imihanda itakoze neza bituma haba impanuka, ugasanga umuntu agonze nk'ibuye akaba araguye. Ariko ubu bwo ni kaburimbo abantu basigaye bagenda bimereye neza. Hariho n'imihanda y'abanyamaguru, amamoto akagira aho ganyura n'abanyamaguru bakagira aho banyura. Ibyo biba byiza cyane.

Aho Leta ishiriyeho ingamba zo gukora imihanda ahantu hose, byatubereye byiza cyane, kuko usanga mu byaro iyo haba hatari kaburimbo, haba hari umuhanda mwiza cyane ukoze neza washyizwemo igitaka usa neza, ubwo ntakavuyo biba byiza cyane kuko n'umuyonzi cyangwa se umunyegare biramworohera iyo ahetse nk'imitwaro iremereye, n'amamodoka bikayorohera kugenda muri uwo muhanda.

Leta iba nziza cyane, aho yadukoreye imihanda ahantu hose, umuntu kuba yagenda akagera ku soko bikamworohera, ugasanga ibimodoka biri kugenda mu mihanda bimeze neza, n'umuhanda w'ibitaka ugasanga ukoze neza icyuma cyarawutsindagiye, kubera ubushobozi bwa Leta. Leta turayishima cyane kuko yatugejeje kuri byinshi. Dusigaye tugenda mu muhanda tumeze neza, nta bibuye umuntu yasitaraho.

Leta ni nziza cyane, aho yatwubakiye amagare yo kujya baraparikamo amamodoka, aho baparika amamodoka hakaba ari hanini, baparika amamodoka y'ubwoko butandukanye, ugasanga izijya ahantu runaka ziparitse hano, n'izijya ahandi runaka ziparitse hano. Ibyo bigafasha abaturage kuba bashaka amamodoka y'aho bagiye, n'imihanda yarakozwe imeze neza, ugasanga kugenda umeze neza ufite umutekano.

Ubwikorezi bwo mu umuhanda ni bwiza cyane aho ugusanga ugasanga abantu batwaye ibi imodoka binini bivuye hanze, byikoreye nk'ibyo dukeneye mu gihugu bikatugemurira nk'umuceri, bikatugemurira nk'ibishinwa biturutse hanze cyangwa ibindi byinshi bitandukanye biturutse hanze, tutaba dufite mu gihugu ibyo bikatugirira akamaro kanini, tubasha kubona ibyo dukeneye kandi byatubereye byiza aho leta ya twubakiye imihanda, ubu kugenda mu mamodoka biroroshye cyane byoroheje urugendo.

Leta iba nziza cyane oha yatwubakiye imihanda, amamoto akajya arabona aho aranyura, agatwara abantu neza nta mpanuka, bityo urugendo rugakomeza rukaba rwiza n'abantu bakajya barabona imihanda ya kaburimbo yo kunyuramo, kuko Leta yatwitayeho inaha ikatwubakira imihanda yo kunyuramo.

Ubwikorezi bwo mu mazi buba bwiza cyane, aho usanga abantu banyuze mu mazi bafite intego yo kurobamo bagakuramo amafi, bagashira abaturage bakarya bamara kurya imibiri yabo igakura neza, bakagira ubuzima bwiza. Bityo nabo ubwabo abantu bayarobye bakagurisha bakiteza imbere, bakabonamo amafaranga. Ibyo bikadufasha mu iterambere ryacu rya buri munsi.

Leta yatwitayeho aho yadukoreye imihanda itandukanye iberamo ubwikorezi butandukanye, ugasanga leta yatwubakiye imihanda ya kaburimbo ikubaka n' imihanda y'abanyamaguru, ku buryo abikoreye batahura n'ikibazo runaka ngo barahura n'igare cyangwa se imodoka bakubitane habe haba impanuka. Ibyo byatubereye byiza cyane tugenda mu muhanda twumva dutekanye kandi tumeze neza.

Imihanda iba myiza cyane aho usanga umuntu yabona umumotari bimworoheye aho agiye hakamubera hafi, kuberako iterambere ryaraje, amamoto yarabonetse n'imihanda irahari byoroheje urugendo, aho umuntu yagendaga isaha asigaye arahagenda nk' iminota nka mirongo itatu.

Imihanda idufatiye runini aho usanga hari kaburimbo, kuba wava mu gace kamwe ujya mu kandi bikatworohera kuko tubona ibinyabiziga bitworoheye nta mabuye ari mu muhanda, tukabona amamoto tukihuta aho tugiye bikatworohera, bityo ugasanga umuhanda udufitiye akamaro kanini, umuhanda wa kaburimbo.

Imihanda iba myiza cyane aho moto zisigaye zigera mu byaro iwacu. Mbere wasangaga mu byaro nta mihanda irimo ya kaburimbo, ariko ubu nta hantu kaburimbo itagera, ntaho wabura ikinyabiziga kigutwarira imizigo itandukanye, nk'ubu wahashye ibirayi byinshi, ntabwo wabura moto igutwarira ibikoresho ikabigeza nko mu rugo iwawe utiriwe uvunika ngo muri kwikorera.

Imihanda ni myiza cyane cyane cyane imihanda ya kaburimbo ,aho usanga abanyeshuri kujya ku mashuri biboroheye, kubona imodoka biboroheye ,ni nziza cyane kuko igihugu cyateye imbere tubasha gutega bitworoheye ,ujya ahantu kure ukabona imodoka bikoroheye ,bityo tukabasha kugera aho tugiye twihuse ,tudatinze cyangwa se ngo tumare umunsi mu muhanda. Imihanda ni myiza cyane iya kaburimbo kuko haba harimo amamodoka tumanota tugatega ,tukagera aho tugiye bitworoheye.

Siporo iba nziza cyane ,aho usanga yakuriye na ba mukerarugendo kuba baza no kureba siporo uko igenda mu gihugu, ugasanga basize amadovize, noneho ugasanga ahantu ni heza hubatswe ikibuga kiza, abantu barahahurira ari benshi, ibihugu bitandukanye harimo n'amadarapo y'ibihugu bitandukanye ,ugasanga n'abaperezida bari gusura igihugu cyanyu, bityo igihugu kigakomeza kigatera imbere.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga Leta yaratwitayeho ikatwubakira ibibuga bitandukanye ku buryo buri muturage wese aba yisanzuye kuba yaje kuhakinira. Ibyo bikatubera byiza cyane kuko twidagadura, tugakiniramo basiketiboro, handiboro, ugasanga haberamo imikino itandukanye abantu bakishima bakidagadura igakurura na bamukerarugendo kuza kureba iyo mikino nabo ubwabo tukihuza tukaba inshuti ibyo bigakomeza bigafasha igihugu gutera imbere.

Siporo iba nziza cyane aho usanga hari ahantu hari pisine umuntu akajya koga akamenya ukuntu yakoga, akajya gukina za basiketi zitandukanye, ibyo bikadufasha, tukaba twamenya, twajya no mu marushanwa atandukanye, tukaba, tukoga, twarangiza bakaduha amafaranga, ibyo bigatuma dutera imbere mu buryo butandukanye.

Siporo iba nziza cyane aho usangaga twahuriye hamwe n'abandi tugakina tukishima, tukidagadura bityo n'abari kutureba na bo ubwabo bakumva barishimye ,tugahuriramo na bagenzi bacu tukabasha kumenyana mu buryo bworoshye, bityo bikaba byatuma byakurura na ba mukerarugendo, bakaduhana n'amafaranga kubera ko barebye imikino itandukanye ,na bo ubwabo bakishima.

Siporo iba nziza cyane aho usanga nk'umuntu akomeje gukora siporo akagira ubuzima bwiza, bityo akaniteza imbere, akaba yabonamo amafaranga agiye gukinira nk'igihugu, cyangwa agiye nko gukinira nk'Akarere runaka, ugasanga niba batsinze, babahaye nk'amafaranga, bityo bakabasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Siporo iba nziza cyane cyangwa se kwidagadura biba byiza cyane, aho usanga umuntu afite ubuzima bwiza buzira umuze. Nta ndwara yapfa kumwataka ugasanga turakinnye kandi bidutejeje imbere biduhaye amafaranga tukiteza imbere, mu bundi buryo butandukanye, abantu bakabasha kutureba bakishima na twe ubwacu mu mubiri tukaba twishimye kubera ko umuntu aba yakoze siporo.

Siporo idufitiye akamaro kanini, aho usanga umuntu yarakinnye, akaba nk'uwa mbere akazajya akina agatsinda ibitego byinshi akamamara, bityo akabasha guhembwa, nawe akiteza imbere n'umuryango we, kuko yabashije gukina, ubuzima bwe bukaba bwiza akabona n'ibihembo, agakomeza akiteza imbere.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga abantu bari gukina umupira w'amaguru, abantu bakaza no kuwogeza, bakaza no kuwureba bagafana, bakishima, bakabetinga bagasiga amafaranga, bityo igihugu kikabasha kwinjiza amafaranga, n'abakinnyi bakinnye bakabasha kwinjiza amafaranga, bagatunga imiryango yabo bameze neza.

Siporo ni nziza cyane ,kandi idufitiye akamaro kanini ,aho usanga umuntu agiye gukina agakora siporo, akishima. Yaba abyibushye akagira ibiro biringaniye. Yaba ananutse akagira ibiro biringaniye na we. Ibyo biba byiza cyane kuko binagufasha iyo uzi gukina, ukajya gukina nko mu ikipe y'igihugu, ukaboneramo amafaranga yatunga n'umuryango wawe.

Siporo ni nziza cyane, aho usanga ifite imyenda myiza itandukanye, usanga abayobozi bari kugura imyenda itandukanye, bari guteza n'abacuruzi imbere, bacuruza imyenda ya siporo, barikugurira abana babo ama baro, bari kugurira ikigo cy'amashuri ama baro n'imyenda ya siporo, ibyo bigakomeza bikaba byiza cyane, bigafasha igihugu gutera imbere n'abaturage muri rusange, kuko ucuruza imyenda ya siporo abona abakiriya.

Vore ibaga nziza cyane aho usanga abakobwa baritinyutse, ugasanga mbere nta mukobwa wakinaga imipira, ariko ubu ngubu rwose ni byiza cyane abakobwa barakina bagakina na bagenzi babo ugasanga bari gukina ya mikino bakubita ngo udutenesi tukikubita hirya no hino, ugasanga hari n'ibibuga byiza bagakururana ba mukerarugendo bakaza kureba iyo mikino bakaba basigagana amadovize kuko babonye imikino iboneye.

Usanga ahanini siporo idufitiye akamaro kanini，aho umuntu amenya kujya koga nko mu mazi，akaba amenye n'indi siporo atarahazi， ugasanga umuntu agiye nko ku kiyaga， amenye koga，kubera ko hari siporo yabanje gukora.

Siporo iba nziza cyane. Aho usanga abantu tumenya ubwoko butandukanye bwa siporo. Tukaba tuzi koga, tukaba twajya no mu marushanwa. Bityo tukaba twakorera amafaranga, kubera ko hari byinshi twamenye bya siporo bitandukanye. Ukaba uzi koga, ugakora amarushanwa, mugatanguranwa, mukanishima, mukanidagadura, hamwe na bagenzi banyu. Ibyo ni byiza cyane, bifasha umubiri gukora neza, kubera ko uba wakoze siporo ukanaruhuka.

Leta ni nziza cyane, aho usanga yarateje imbere siporo. Ugasanga urubyiruko rwiteje imbere rurakina rukabonamo amafaranga. Bityo gutsinda, rwaba rwatsindanye n'iyindi kipe ugasanga baruhembye. Ibyo bikaba inshusho nziza, bakabahemba bafashe no ku idalapo, bigaragaza ko bahesheje igihugu icyubahiro. Ibyo bigakomeza bigafasha igihugu gutera imbere, bigatera n'ishyakaka n'abandi kujya bakina bagakora siporo.

Siporo ni nziza cyane kandi idufitiye akamaro kanini. Aho usanga buri wese yaritinyutse n'abakobwa ugasanga bazi gukina imikino itandukanye. Ugasanga rwose umukobwa nina byiza no kumureba ari gukina, Azi gukina za baskets, za football, za handball. Ibyo biba byiza cyane kandi bidufitiye akamaro kanini. Aho usanga umukobwa yariteje imbere. Agakina akajya no gukina mu bindi bihugu, bakaboneramo n'amafaranga yo kwiteza imbere mu buzima bwabo.

Siporo iba nziza cyane aho usanga abantu bahuye bambaye imyenda mpuzangano bari gukina basikete, futuboru cyangwa se handiboru na vore ibyo biba byiza cyane ni uko abantu baba bishimye, n'abari kubareba bakumva bishimye banezerewe, batsindana ntabwo bakumva barishimye, bakabakorana amafaranga bakinjiza amafaranga mu miryango yabo, ibyo bigakomeza bikabafasha guteza imbere.

Siporo, iba nziza cyane, aho usanga yaraduhuje n’Abazungu. Tukajya natwe tumenya gutwara amagare, aho haba Tour du Rwanda. Abaturage, tugahurura, tukajya kureba ayo magare uko ari kugenda, ari kwiruka. Ugasanga natwe, mu mubiri wacu, turishimye, n’abari gutwara ayo magare, nabo bari gukora siporo. Kandi, bakabiboneramo amafaranga, bagakomeza, bakiteza imbere, igihugu cyacu, kigakomeza gutera imbere.

Siporo iba nziza cyane aho ifasha abantu kwiteza imbere, aho usanga umuntu akina mu ikipe runaka, iyo kipe runaka bakayiha amafaranga, na we akabasha kuba ayo mafaranga yayafata akagira ikindi kintu ayakozamo akiteza imbere ,nk'urubyiruko no kujya muri siporo bituma umuntu yishima umubiri we ukagira ubuzima bwiza kuko yakoze siporo ,ugasanga umuntu azi gukina umupira bakina bari gukoresha agatenesi, bafashe n'akantu kameze nk'akayunguruzo mu ntoki ibyo biba byiza cyane.

Siporo ni nziza cyane aho duhura na bagenzi bacu tugakina voliboro, tukidagadura tukishima tukambara imyenda, iniforume zitandukanye kugira ngo tumenye izi ikipe, iri gutsinda tugatsindana bityo tukamenyana na bagenzi bacu, tukabasha kwishima no mu mubiri ugakora neza kuko tuba twakoze siporo.

Siporo cyangwa se imyidagaduro iba myiza cyane, aho abantu baza nko muri etaje bakaza ahantu barebera umupira bakaza bagahura na bagenzi babo bakishima, bakawureba bakabasha gufana bakishima bakumva bameze neza. Ibyo biba byiza cyane aho usanga n'abantu bari gukina bishimye, kuko bari kubona abafana bari ku bafana.

Siporo ni nziza cyane cyangwa se kwidagadura ni byiza cyane, kuko duhura na bagenzi bacu bo mu bice bitandukanye tutari tuziranye, tukabasha kumenyana bityo tugasigasira umuco nyarwanda, kuko tuba twamenyanye twese kandi tuziranye tukishima, mu mutwe hakaruhuka umubiri ugakora neza ibyo byose ni ibikubiye muri siporo.

Siporo ni nziza cyane aho usanga abantu bari kwiga imikino itandukanye myinshi kandi myiza, umuntu akabasha gukuramo umunezero, kugira ubuzima bwiza, akiga gutera umuhunda, ibyo hari benshi batabizi ariko kuri iri terambere ry'ikigihe, nta muntu uba utazi gutera umuhunda, ugasanga wagiye mu marushanwa wateye kure akaba ari weho uhembwa, ibyo bikakuviramo gutera imbere kwawe.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga imikino iri kuba nka apr na rayo biri gukina bigakurura abantu kuza kureba iyo mipira bagahura bishimye banezerewe, aba bafite amadarapo y'igihugu ugasanga bari guseka bari gufana bishimye, bari gufana ko igihugu cyacu kiri gukina n'iyi kipe yo hanze ibyo biba byiza cyane, bituma abantu bahura bagasabana, bakanezerwa bakishima bigakurura na ba mukerarugendo kuza kureba uwo mukino bagasiga amadovize.

Siporo ni nziza cyane kandi idufitiye akamaro kanini aho usanga umuntu ari kwiga imikino itandukanye nko gukubita tenesi, ukabona imikino ibereye amaso igakurura ba mukerarugendo. Wajya no mu marushanwa wowe uri gukina ukaba wabiboneramo amafaranga ukamamara, ibyo bigakomeza bikadufasha mu iterambere ryacu rya buri munsi, bigafasha n'igihugu gutera imbere.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga, abantu bari muri tour du rwanda, amagare ari kugenda , ari kuzenguruka mu gihugu, bigakurura abaturage kureba bakanafotora, baba bishimye, ibyo bigafasha n'igihugu gutera imbere, kubera ko amagare yirukanka mu gihugu cyanyu, babaha amafaranga, kugira ngo ibikorwa by'igihugu bikomeze bi bitere imbere.

Iterambere ni ryiza cyane aho usanga ubu ngubu abantu basigaye batuye nka vileji nk' umudugudu, ugasanga uwo mudugudu hari utuyira dutandukanye ugasanga harimo utuyira twinshi dutandukanye, ukaba watunyuramo ukaba wagera ahantu byihuse utiriwe urazenguruka ibyo bikaba byiza cyane ,kuko tuba dutuye turi benshi bikagufasha kuba wagera ahantu byihuse.

Imihanda ni myiza cyane kandi idufitiye akamaro kanini, aho usanga nko mu mudugudu harimo utuyira dutandukanye, umudugudu ufite umuhanda ugaragara munini, uwo abantu banyuramo noneho ukaba ufite n'utuyira twa panya umuntu atunyuramo agahita agera ahantu byihuse, ibyo biba byiza cyane kuko iyo ugiye ahantu ukajyayo utwo tuhera twa panya bigufasha kugerayo byihuse.

Imidugudu iba myiza cyane, na Leta yaradufashije aho yashyizeho imidugudu, ngo abantu baje batura hamwe basabane, babane neza, bafite umutekano kandi ibamo n'utuyira duto duto tugeza abantu ahantu bihuse nta kuririrwa baratinda mu mayira. Ugasanga hari akayira kakugeza ahantu gatoya. Ibyo bikaba byiza cyane, nko mu mudugudu ukabasha kugera ahantu hatandukanye wihuse.

Imidugudu ni myiza cyane, aho usanga mu mudugudu hari umuhanda mwiza cyane munini wo kunyuramo, ugasanga harimo utuyira twa panya umuntu yanyura akagera aho hantu. Ibyo biba byiza cyane kuko byorohereza abantu urugendo aho wari bukoreshe iminota mirongo itatu, ukahakoresha iminota cumi n'itanu, kuberako hari utuyira twa panya bikagufasha kwihuta.